Umurima munini cyane uhinzemo inyanya bashyiramo ifumbire kuko zitangaga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bazijyana ku isoko babaha amafaranga, ikindi kandi zivamo n'imboga.

Abantu babiri bayora ifumbire bambaye imyenda zifite amabara atandukanye asa n'umutuku andi asa n'umukara. Harimo uwambaye ingofero isa n'umweru, bambaye ibirenge . Uwayoraga ifumbire. Iba nziza kuko ituma imyaka yera.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bitandukanye, ibigori, insina. Bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi babijyana ku isoko bakabaha amafaranga, bagasiga ibyo babeteshamo igikoma.

Insina nyinshi cyane bashyiraho ifumbire, kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi heraho ibitoki, babijyana ku isoko batanga amafaranga, bakanasigaza ibyo kurya mu rugo.

Ibidariya, hirya hari igitoki kiza cyane bashyiraho ifumbire, kuko gitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bakijyana ku isoko, kuko gitanga amafaranga, baranakirya.

Umurima munini bahinzemo igihingwa bitaga karoti, bashyiramo ifumbire, kuko itanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi, iyo byeze, babijyana ku isoko babaha amafaranga, basigaza n'ibyo barya mu rugo, hirya hari umurima urimo ibirayi byiza cyane.

Umurima munini hahinzemo igihingwa bita karoti zimeze neza cyane, bazishiramo ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije, iyo zeze bazijyana ku isoko babaha amafaranga, karoti ni nziza iyo uziriye zigira ubuzima bwiza muri uwo murima harimo ibiti.

Umurima munini cyane urimo ibiti bita intusi. Izi bazitaho kuko zitanga umusaruro ushimishije. Bazicanamo inkwi, ikindi kandi bazicanamo n'amakara, bayajyana ku isoko bakabaha amafaranga.

Umurima munini cyane uhinze, uruhande rumwe harimo imiravumba, hirya hari ibiti bita intusi bitanga umusaruro, babicanamo inkwi bakanabyotsamo amakara, bakanagurisha ku isoko.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, insina bazishiramo ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko babaha amafaranga, bagasagura n'ibyo barya.

Umurima munini wahinzemo ibirayi babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi ibyo byeze babijyana ku isoko babaha amafaranga basigaza ibyo barya mu rugo harimo iteke, n'ibiti.

Umurima munini hahinzamo igihingwa bita karoti, bashiyiramo ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko zitanga amafaranga, ikindi kandi bazitekamo n'imboga.

Umuririma munini bahingamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibidodoki. Hirya hakabamo insina bashyiraho ifumbire, kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi heraraho ibitoki, babijyana ku isoko babaha amafaranga.

Umurima munini uririmo ibirayi byiza cyane, bashiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro mwinshi cyane bishimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko, babaha amafaranga bagasigaza ibyo barya.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bita insina, bashyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro mwinshi ushimishije, ikindi kandi heraho ibitoki, babijyana ku isoko, bahazaniraga amafaranga, ikindi kandi baranabirya.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bitandukanye, harimo insina bashyiraho ifumbire, kuko zitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi byeraho ibitoki babijyana ku isoko babaha amafaranga, ikindi kandi bazengamo inzoga.

Ikidodoki cyiza cyane hejuru hari ikoma, hirya hari igiti cya avoka kirimo avoka nyinshi cyane. Bacyitaho bagishyiraho ifumbire, kuko gitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi iyo zeze, bazijyana ku isoko babaha amafaranga.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bitandukanye: isombe, amateke, insina. Bazishyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije. Iyo zeze bazijyana ku isoko babaha amafaranga. Hirya yabo hari inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho isakaze amabati asa n'umutuku.

Umuririma munini bahingamo ibihingwa bita ibirayi, bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, hirya yaho hari inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati asa n'umutuku.

Avoka nziza cyane bashyiraho ifumbire kubera ko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi, iyo zeze bazijyana ku isoko, babahazanira amafaranga. Imbere y'izo avoka hari ibyatsi biva ku masaka.

Umurima munini cyane bahingamo karoti nyinshi cyane, bashyiramo ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi iyo zeze bazijyana ku isoko babaha amafaranga basigarana izo barya.

Umurima munini cyane, urimo ibihingwa bita intoki, bashiraho ifumbire kuko bitangaga, umusaruro mwinshi gushimishije, ikindi kandi iyo weze heraho igitoki, bakakijyana mu isoko, bakabaha amafaranga bakanarya.

Urujya n'uruza rw'abantu barahagaze, bari kureba ibirayi bimeze neza cyane, babishyiramo ifumbire, kuko bitanga umusaruro mwinshi ushimishije, ikindi kandi babijyana ku isokokuko bitanga amafaranga.

Ibyo kurya bita amashu, ameze neza cyane, bayashyiramo ifumbire nyinshi cyane, kuko atanga umusaruro mwinshi ushimishije, ikindi kandi bayajyana ku isoko, babaha amafaranga, bagasigaza n'ayo barya.

Abantu benshi, bafashe amasuka barahinga bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umuhondo , ayandi asa n'umukara ,andi asa n'umweru, andi asa n'ubururu. Inyuma y'aho hari inzu ifite amategura. Hirya yaho, hari ibyatsi byinshi cyane.

Umurima munini cyane urimo abagore benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'umutuku, andi asa n'ubururu. Imbere yabo hari umugore umwe, waranduye umugozi w'ibirayi bimeze neza, bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bitandukanye, amateke, ibihaza bashyiraho ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko, babaha amafaranga bagasigaza ibyo barya mu rugo.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bitandukanye harimo ibirayi, bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bitanga amafaranga. Barabigura hagasigara n'ibyo kurya mu rugo.

Umurima munini cyane bahingamo ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori bimeze neza cyane, babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi babijyana ku isoko, kuko bitanga amafaranga.

Ibigori byiza cyane bimanitse neza, imbere ya byo hari umugore wambaye ikanzu ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umuhondo, andi asa n'umutuku, afashe impungure mu ntoki, ziba nziza kuko bazibeteshamo igikoma.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa bita ibigori, bashyiramo ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko, barabigurisha, babaha amafaranga, basigaza ibyo banywamo igikoma.

Umurima munini cyane wezemo ibirayi byinshi cyane, harimo abantu benshi cyane, babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi babijyana ku isoko bakabaha amafaranga, bagasigaza n'ibyo barya.

Mu murima munini, bahingamo ibihingwa bitandukanye. Harimo ibirayi bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi babijyana ku isoko bakabaha amafaranga. Basigaza ibyo bateka.

Umurima munini cyane urimo mashu yeze ameze neza cyane. Bayashyiramo ifumbire kuko atanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi bayazana ku isoko batanga amafaranga, havamo imboga zo kurya ziryoshye, harimo abantu batatu bahagaze bambaye imyenda isa n'umutuku.

Inyanya nyinshi cyane ziri mu bitebo ziba nziza kuko bazitekamo imboga impande yazo hari abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye imwe isa n'umweru, indi isa nk'ubururu, indi isa na kaki, indi isa n'umukara.

Umurima munini cyane bahingamo ibihingwa bitandukanye, amateke, amatunda, avoka, impande hari umugabo wambaye umupira urimo amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku, ayandi asa n'umukara, afashe ku giti.

Umugabo uhagaze mu bigori ufashe igihaza mu ntoki ze, ibigori bireze babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Babizana ku isoko babaha amafaranga ikindi kandi babibeteshamo ifu y'igikoma bagakuramo na kawunga.

Umurima munini cyane bahingamo ibihingwa bita ibirayi, bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi babijyana ku isoko bitanga amafaranga baranabiteka mu rugo.

Umurima munini cyane bahingamo ibirayi, babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije cyane, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko kuko babaha amafaranga, bagasigaza ibyo barya mu rugo.

Umurima munini cyane, bahingamo ibirayi bameze neza, bashyiramo ifumbire, kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko, bitanga amafaranga, harimo umuntu uhetse icyuma, gisa n'umuhondo, atera umuti.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bita ibigori. Babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi barabisarura bakabijyana ku isoko kuko bitanga amafaranga, bakanabibetesha kuko bivamo ifu y'igikoma banywa.

Abantu batatu barebaga ibigori bimeze neza cyane. Babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko babaha amafaranga, bakanabibeteshamo ifu y'igikoma.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bita ibigori, bashyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko bitanga amafaranga, babeteshamo ifu y'igikoma.

Ibyo kurya by'imboga bita amashu bihinze mu murima, cyane babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo yeze bayajyana ku isoko, babaha amafaranga, basigaza ayo bateka mu rugo.

Umurima munini bahingamo igihingwa bita ikawa, bagishyiramo ifumbire kuko gitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi bazijyana ku isoko kuko zitanga amafaranga, ikindi kandi bazinywamo icyayi.

Umurima munini cyane bahingamo ibihingwa bita imboga zimeze neza cyane . Bazishyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi iyo zeze bazijyana ku isoko bakabaha amafaranga. Zigira intungamubiri.

Umurima munini cyane urimo igihingwa bita insina. Bashyiraho ifumbire kuko zitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi heraho ibitoki babijyana ku isoko bitanga amafaranga bakanasigaza ibyo barya.

Igihingwa kiri mu murima munini cyane bita soya, bashyiramo ifumbire kuko gitanga umusaruro mwinshi cyane, ikindi kandi iyo keze baragisarura bakakijyana ku isoko babaha amafaranga.

umurima gurimo igihingwa bita ingano, bashyiramo ifumbire kuko zitanga umusaruro mwinshi ushimishije, ikindi kandi iyo zeze bazijana ku isoko, babaha amafaranga, barazibetesha zikavamo ifu y'igikoma, Ikindu kandi zikavamo n'imbada.

Umurima munini cyane, bahingamo ibihingwa bita umuceri bawushyiramo ifumbire, kuko utanga umusaruro ushimishije ikindi kandi bawujyana ku isoko, kuko utanga amafaranga.

Umurima munini uhinzemo ibihwagari, babishyiramo ifumbire, kuko bitanga umusaruro mwinshi ushimishije, ikindi kandi barabisarura bakabijyana ku isoko, kuko bivamo amavuta, babaha amafaranga menshi cyane.

Umurima munini cyane hahinzemo ibihingwa bita ibishyimbo. Bashyiramo ifumbire kuko gitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi, iyo byeze babijyana ku isoko, babaha amafaranga, basigaza mu rugo ibyo barya.

Umurima munini cyane urimo igihingwa bita ibishyimbo, bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije cyane, ikindi kandi iyo byeze barabisarura bakabijyana ku isoko, babaha amafaranga.

Umurima munini bahingamo ibihingwa bita ubunyobwa, bashiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi babujyana ku isoko kuko butanga amafaranga, bakabubetesha bakaza kuburya mu rugo.

Ibigori bimeze neza cyane babitonoye barabimanika, kugira ngo byume babihungure, abijyane ku isoko babaha amafaranga, ikindi kandi babibeteshamo ifu y'igikoma banywa, bakuramo na kawunga.

Ibigori byinshi cyane batonoye, bamanika kugira ngo byume babihungure, babijyane ku isoko, babahe amafaranga, ikindi kandi ibigori ni byiza babibeteshamo ifu y'igikoma havagamo na kawunga bateka.

Umurima munini mwiza cyane urimo igihingwa bita ibishyimbo, babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze barabisarura bakabijyana ku isoko, kuko bitanga amafaranga ikindi kandi barabiteka.

Ibishyimbo byiza cyane bimeze neza, bashiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, havamo imiteja, hakavamo ibyumye, babijyana ku isoko, babaha amafaranga, basigarana ibyo bateka mu rugo.

Ibishyimbo bimeze neza cyane ,bavuye gusarura biri ku igare bihambirije ibirere, imbere yabyo hari imodoka ifunguye urugi ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, hirya hari inzu ifite urugi rusa n'ubururu.

Ibishyimbo, ibirayi, impande yabyo hari abantu benshi cyane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umutuku, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara. Hirya y'abo bantu hari inzu ifite umuryango usa n'umukara, hejuru hari umunzani, hasi hicaye umudamu.

Umurima munini urimo ibihingwa bita amasaka, ameze neza cyane, kuko iyo uyanyoye atuma ugira ubuzima bwiza, ikindi kandi agatanga umusaruro ushimishije.

Umurima munini cyane bahingamo ibihingwa bitandukanye, bita ibishyimbo, ibigori. Babishyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije. Ikindi kandi babijyana ku isoko kuko bitangaga amafaranga.

Umurima munini cyane bahingamo ibishyimbo bimeze neza cyane, bashyiramo ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babijyana ku isoko babaha amafaranga bagasigarana ibyo bateka.

Inka nziza ifite ibara risa na kaki. Ku matwi yayo hari amaherena asa n'umuhondo. Itanga umusaruro ushimishije. Itanga amata, inyama bakazijyana ku isoko bakazigura, bakazana amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, andi asa n'ubururu, andi asa n'umutuku, andi asa n'umuhondo. Bafite imbwa baje kuzikingiza kugira ngo zitazarya abantu bakagira ikibazo.

Inka zimeze neza cyane zifite amabara atandukanye. Amwe asa n'umweru andi asa na kaki. Zitanga umusaruro ushimishije, bazikamamo amata bakajya kuyagurisha bakabaha amafaranga. Ikindi kandi bazibagamo inyama.

Inka nyinshi cyane zifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara, ku matwi yazo hari amahereni asa n'umuhondo. Hanze hari umusaza wazigaburira wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umuhondo, andi asa n'umweru, andi asa n'umukara, ku birenge yambaye bote.

Inka nyinshi cyane zifite amabara atandukanye ziba nziza kuko zitanga umusaruro mwinshi cyane ushimishije, bazikamaho amata bakayagurisha, babaha amafaranga ikindi kandi bazijyana ku isoko bakabaha amafaranga kuko zivamo inyama.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bita abaveterineri. Bambaye imyenda y'akazi ifite amabara atandukanye amwe asa n'umweru, andi asa n'icyatsi. Imbere yabo hari ikirunduro kirimo ingurube baza kuvura, kuko zitanga umusaruro ushimishije.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amategura, iruhande rw'iyo nzu hari ingurube zimeze neza cyane, bazitaho kuko zitanga umusaruro ushimishije cyane, bazijyana ku isoko, babaha amafaranga.

Ihene nziza cyane ifite amabara atandukanye ,amwe asa na kaki ,ayandi asa n'umukara ,hasi yayo hari ibyatsi bayigaburira kuko itanga umusaruro ushimishije, bayijyna ku isoko babaha amafaranga ,hirya yayo hari umwana wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, ayandi asa n'umutuku.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ishakaje amategura, hanze y'iyo nzu hari ingurube nyinshi cyane, zimeze neza cyane zisa n'umweru, kuko zitanga umusaruro baziryamo inyama.